Igorofa rirerire ryubakanwe ubuhanga budasanzwe bigaragara ko uwaryubatse afite uburambe mu kazi, imbere yaryo hari abaturage benshi cyane n'imodoka bari kumurika kugirango bayigure.

Umugabo mwiza cyane ufite umusatsi mukeya hejuru ahandi yogosha, wambaye ikoti ry'mukara n'ishati yumweru, ari gusoma igitabo cyiza cyane bigaragara ko ari kwiyungura ubumenyi.

Umugore ufite umusatsi mwiza w'umukara yawitayeho kandi arawusokoza, ari gusuhuzanya n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru arikumuha ikaze mu kigo cyabo.

Ahantu heza hasukuye hacururizwa imyenda y'ubwoko bwinshi butandukanye harimo: iy'abagabo ndetse n'abagore, amashati, amajipo n'imipira y'ubwoko butandukanye.

Ahantu heza bigaragara ko hacururizwa utuntu tw'ubukorikori butandukanye, hubakanwe ubuhanga kandi budasanzwe, hari ubusitani bwiza bwiganjem indabo z'ubwoko butandukanye.

Ahantu heza bacururiza imyenda y'ubwoko bwinshi butandukanye, yaba iy'abagore ndetse n'abagabo, iri mu mabara atandukanye arimo umweru ndetse n'umuhondo, hari ibikoresho byabugenewe bifasha kuyireba neza.

Ikoti ryiza rimanitse ahantu ry'ubururu, rifite uturongo tugabanyijemo ku buryo ubona ko rikoze neza, uwaritunganyije afite uburambe mu kazi ko kuyadoda.

Imodoka nziza y'umukara ndetse ifite intebe nshyashya bigaragara ko aribwo bakiyigura kuko n'ibifuniko byayo biracyahari, irahenze cyane kuko nta muntu ufite amafaranga make wabasha kuyigura.

Imodoka nziza cyane iri mu bwoko bwa benzi, iri kugaragaza ibiciro igura kugira ngo yitwe iyawe kandi ukayitahana mu rugo ku kiguzi cyoroshye.

Abagore babiri bicaye ahantu hateguwe bigaragara ko ariho bakorera, imbere yabo hari mudasobwa nziza kandi zitandukanye zo kubafasha mu kazi kabo ka buri munsi.

Igiceri kiriho ibirango bitandukanye, biriho insina ifite igitoki ndetse n'umwano, bigaragara ko ari icy'icumi cy'amafaranga y'u Rwanda akoreshwa ubungubu.

Imashini yabugenewe mu kubara amafaranga menshi kandi mu gihe gitoya, ku buryo umuntu uyikoresha atabasha kwibeshya kandi akabikora mu mwanya mutoya cyane ugereyije n'uri kuyabara n'intoki.

Inoti y'amafaranga ijana y'u Rwanda mu gihe cyo hambere, iriho ibirango byinshi bitandukanye, biriho imisozi n'ibirunga by'u Rwanda ndetse n'umugore uhetse umwana.

Inoti y'ibihumbi bitanu by'amafaranga y'u Rwanda, iriho ibirango byinshi bitandukanye, birimo ingagi ndetse n'ibiti bigaragaza ko ari umwimerere w'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Inzu nziza yabugenewe icururizwamo ibintu bikomoka ku mata, ndetse n'ibindi bikomoka ku mafarini, icururizwamo amaji yo kunywa kugira ngo abantu batanywa ibinyobwa bisembuye nabo babone aho bafatira icyo kunywa.

Inyubako nziza iri ku muhanda, imbere yayo hari ikinyabiziga kiparitse cyitwa moto n'abantu bari kugenda basunitse amagare mu ntoki, wagira ngo yapfuye.

Iduka rinini cyane, ririmo amacupa arimo amazi acuruzwa kugira ngo abantu bashaka ayo kunywa babashe kuyabona kandi bitabagoye, bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umukobwa ndetse ufite ikarito mu ntoki irimo ibicuruzwa bitandukanye, ari kubyamamaza kugira ngo abakiriya, n'abandi bose babyifuza babashe kubona ko ari byiza kandi byujuje ubuziranenge.

Ahantu hacururizwa ibikomoka ku ifarini, birimo amandazi ndetse n'imigati, biragaragara ko umukiriya ahavuye amaze gufata ibyo kurya.

Umukobwa mwiza ufite umusatsi usukuye n'amaso meza ndetse wishimye ari kwereka abaturage n'abandi bose bifuza gukoresha serivise zo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Urupapuro rwabugenewe rukoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kugira ngo babashe kwishyuza abaturage bakora imirimo y'ubucuruzi kugira ngo batange ayo mafaranga bubake igihugu.

Urupapuro rwabugenewe rukoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kugira ngo babashe kugaragariza inyemezabwishyu yatanzwe n'abo bacuruzi, kugira ngo birinde abajura biyitirira izo nzego.

Urupapuro rwabugenewe ruriho amabwiriza umukiriya agomba kwifashisha ndetse mu kwishyura imisoro n'amahoro, ikigo cy'igihugu kibishinzwe, hariho kandi ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Urupapuro rwiza cyane ruriho amabwiriza ndetse n'ibindi bintu bigaragaza ko ari urwo gukoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu kwishyuza abaturage babo.

Ubwoko bw'amafaranga menshi atandukanye, bigaragara ko ari ijana ririho ikiranganengo cy'umugabo wambaye ibirahuri ku maso, hafi aho ngaho hari nimero iyiranga.

Abantu babiri bahagaze ahantu hamwe, imbere yabo hariho ameza abatandukanya, bigaragara ko bari kugurana amafaranga akoreshwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo babashe kuyakoresha muri ibyo bihugu.

Imashini yabugenewe mu kubara ubwoko bw'amafaranga butandukanye, izira kwibeshya kuko umubare wayo uba ungana n'uri muri iyo mubazi, hafi aho ngaho haba hari umugabo uri kuyikoresha.

Inote y'amafaranga icumi, akoreshwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, hariho ibirangantego bitandukanye birimo umugore uteruye umwana ndetse n'imibare iranga ayo mafaranga.

Inyubako nziza cyane irimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu kubara amafaranga ndetse no kuyahererekanya buri gaciro kayo no mu bihugu akoreshwamo, ku buryo nta muntu wabangamira undi cyangwa ngo amwibe.

Inyubako nziza yubakanywe ubuhanga n'amarangi atandukanye, hariho ibyapa byinshi bigaragaza ibyo bakorera muri iyo nzu, hafi aho ngaho kandi hari amarangi meza, hariho ibicuruzwa.

Ahantu heza kandi hasukuye ho kurara, hakoreshwa abantu benshi batandukanye, kugira ngo baruhuke ijoro ryose, batameze nabi.

Ameza akoze neza mu bukorikori butangaje, bigaragara ko umuntu wayateguye afite ubuhanga budasanzwe mu bugeni bwo guhanga ibikoresho bishingiye ku mbaho.

Uruganiriro rwiza rurimo intebe zisa umukara ndetse n'imisego yayo, hasi hari ibara ry'icyatsi kandi haganirirwa ibiganiro umuntu akumva ameze neza kandi asusurutse bitavugwa.

Intebe nyinshi ziri ahantu hamwe ndetse n'ameza ziteguwe ahantu mu ruganiriro. Biragaragara ko uwazikoze afite ubumenyi butambutse kure ubw'abandi baba babyiyitirira.

Uruganiriro rwiza, ruteyemo amarangi ,rurimo intebe zitandukanye z'ubwoko bugezweho, harimo ameza ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo habe hameze neza.

Uruganiriro rwiza ruriho intebe zisa umuhondo n'imisego y'imituku, hafi aho ngaho hari ameza abantu bifashisha mu gutekaho ibikoresho byabo bitandukanye.

Igorofa rirerire ryubakanywe ubuhanga kandi ryiza. Hafi aho ngaho hari ubusitani busukuye, bwiganjemo imikindo. Hari utuzu twiza abantu biyakiriramo bari kunywa ibinyobwa byaba, ibisembuye cyangwa ibidasembuye.

Ahantu heza bigaragara ko haganirirwa n'abantu b'ingeri nyinshi zitandukanye, hari intebe zikozwe mu buryo butangaje, zicarwaho n'abantu bahagendereye kugira ngo basangire icyo kunywa n'icyo kurya.

Inzu nini cyane yubakiwemo gusabana n'abantu batandukanye, banywa ibinyobwa bitandukanye bimwo ibisembuye, ndetse n'ibidasembuye, kugira ngo bunge ubumwe no kwiga ku mishinga yabo imwe n'imwe.

Icyumba kinini cyane kirimo ibikoresho bitandukanye byo mu biro, birimo intebe, ameza ndetse na mudasobwa, yifashishwa mu gukorera akazi abaturage baje bagana aho hantu.

Abakobwa babiri bigaragara ko bakuze bafite imisatsi myiza cyane kandi itunganyije, bambaye amashati meza ndetse n'utuntu tw'imirimbo ku maboko, hari kuvugwa ko bagomba gushyigikira iterambere ryabo nk'abagore.

Umukobwa mwiza wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikoti ryagenewe akazi k'ubwubatsi, ari kugenda bigaragara ko yishimiye, akazi ke kandi agakorana umuhate mwinshi.

Umugabo munini cyane wambaye umupira w'umukara ndetse n'ikarita y'akazi mu ijosi, ari kuganira n'umukobwa mwiza cyane wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro, imbere yabo hari imodoka bigaragara ko ikoreshwa mu kwigisha amategeko y'umuhanda.

Benshi mu ngeri nyinshi zitandukanye barimo abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko, bicaye ahantu hamwe imbere yabo hariho igikuta kiriho ingaragazamashusho bigaragara ko ari mu kigo cy'imari gishinzwe ubucuruzi.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bitandukanye byo mu rugo ariko bikozwe mu bukorikori bwa kera n'ubuhanga butagereranywa, harimo amabara menshi atandukanye bikozwe mu masaro.

Ubwoko bwinshi bw'ibicuruzwa bitandukanye bimo imineke, inyanya, urunyorwe n'ibishyimbo. Hafi aho ngaho hari umufuka urimo ifu y'igikoma bari gucuruza aho ngaho.

Igorofa rirerire ryubakanywe ubuhanga n'ibikoresho utasanga ahandi, imbere yaryo hari abaturage benshi biganjemo urubyiruko, abagore, ndetse n'abagabo, bigaragara ko bari mu nama kugira ngo bumve icyo abayobozi bababwira.

Isoko rinini cyane ricururizwamo imbuto n'imboga zitandukanye, zirimo ibitunguru, inyanya, ibigori ndetse n'ibindi bicuruzwa abaturage bifashisha mu mafunguro yabo ya buri munsi, harimo abagore bari gucuruza kugira ngo babashe gutanga iyo ubwo bufasha.

Abagabo babiri bahagaze ahantu hamwe bigaragara ko ari ku muhanda. Umwe ari gutanga ubufasha bwo gukoresha itumanaho ryo guhamagara no guhamagarwa kubantu batandukanyije ibyerekezo.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, ni mu cyumba runaka gitangirwamo serivisi z'ikoranabuhanga ndetse n'abagore n'abagabo bari hafi aho ngaho mu gufasha muri icyo gikorwa.

Isoko rinini cyane ricururizwamo ibikomoka ku buhinzi ndetse n'abantu benshi barimo bari kubigura, kugira ngo babitware mu rugo babikoreshe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugabo n'umugore bari ahantu hamwe bigaragara ko hakorerwa imirimo myinshi itandukanye, irimo gutanga ubufasha kubabagana kugirango ngo babashe gukemurirwa ibibazo bitandukanye bafite.

Inyubako nziza yubakanywe n'amatafari ahiye, ariho ibyuma ndetse n'amarangi, y'umweru hariho kandi igisenge cy'amabati ndetse na rangete, kimeze neza cyane.

Umugore n'umugabo bahagaze ahantu hamwe bigaragara ko bari kuganira, imbere yabo hari ubusitani burimo imikindo n'intebe hafi aho ngaho bicayeho kugirango baganire.

Inyubako nziza iriho ibikorwa bitandukanye, birimo amatafari ahiye, urugi rwiza kandi rufite agaciro gahambaye hariho imbuga nziza yagenewe gupatikwamo ibinyabiziga byaje muri urwo rugo.

Inyubako nziza ifite amarangi meza n'ibirahuri bibereye ijisho kubyitegereza uburyo uwabikoze yabikoranye ubuhanga buhambaye, hari kandi imbuga yagenewe guparikwamo n'ibinyabiziga byaje muri urwo rugo.

Isoko rinini cyane ririmo abantu benshi batandukanye barimo abagore n'abagabo bitabiriye uwo munsi, bari kugura ibyo kurya bitandukanye bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ku buryo batabasha kubibura.

Isoko rinini cyane kandi rigezweho ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, byaba ibyo mu rugo, ibyo mu nganda, iby'ubwubatsi ndetse n'ibikoreshwa mu biro. Hafi aho ngaho hari ameza agiye abiteretsweho.

Umugabo mwiza wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro bisa n'ishati y'umweru, imbere ye hariho uruvugiro ruriho ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda.

Ikarita ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda y'ubwisungane mu kwivuza, hariho ibirango by'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda.

Abantu benshi bakoraniye ahantu hamwe biganjemo abagore n'abagabo bakora umurimo wo gutwara abagenzi ku magare, biragaragara ko bari mu gitaramo cyo gususurutsa abari aho ngaho no kwamamaza ibikorwa by'igihugu birimo ejo heza.

Icyumba cyabugenewe kirimo mudasobwa nyinshi zinyuranye, kirimo kandi ibicuruzwa bigaragara ko ari mu iguriro riteye imbere, ririmo ibyo kurya, ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iguriro rinini cyane ririmo ibikoresho byinshi bitandukanye, birimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, hafi aho ngaho hari umukobwa uri gutambuka, ari gutwara kimwe ku kindi kugira ngo akijyane mu rugo.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi miremire cyane, uhagaze mu iguriro rigurirwamo ibikoresho byinshi bitandukanye byo mu rugo, birimo ibyo kurya, ibyo kunywa kandi bidasembuye, biragaragara ko afite umuhate wo guhaha.

Iguriro rinini cyane ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, byaba ibyo kurya cyangwa ibikoreshwa mu rugo, mu biro mu mazi ndetse n'amashanyarazi, kugira ngo babashe gutunganya imirimo iyo ari yo yose.

Iguriro rigezweho ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye harimo: ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, bikoreshwa mu rugo ndetse no mu biro, hari umugabo bigaragara ko ari we uri gutanga akazi.